Abantu benshi bihurije hamwe, bambaye impuzankano, bari mu gikorwa cyo gukangurira abantu kwirinda kanseri y'inkondo y'umura, bafite icyapa kinini cyane mu ntoki.

Umwana uri ku ivomero uhagaze uri gukaraba intoki mu buryo bwo kugira isuku, kugira ngo yirinde indwara ziterwa n'umwanda wambaye ikanzu itukura.

Umuntu ufashe ijagi mu ntoki irimo amazi, ari gukarabya umwana ukiri mutoya, ufite isabune mu ntoki uri gukaraba intoki kugira ngo agire isuku yirinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umurima munini cyane urimo ikidendezi cy'amazi y'ibiziba, uhagazemo abana, umwe ni umunyeshuri yambaye impuzankano y'ishuri, afashe ibikombe bibiri by'amazi mu ntoki.

Mu giturage ku ivomero hari umubyeyi w'umugore uri kumwe n'abana babiri uteruye ijerekani uri kuvoma amazi yo kujyana mu rugo kwifashisha.

Abantu benshi bateraniye mu busitani buteyemo ibiti bari mu ihema bicaye imbere yabo hari umuganga uri kubahugura ku bijyanye n'ubuzima.

Umubyeyi uteruye umwana waje kumukingiza, imbere yabo hicaye umuganga uri gutera urushinge umwana, iruhande rwabo hateretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Ku ivomero riri mu giturage gituwe n'abantu benshi, hari umwana w'umukobwa ugiye kuvoma, ufite amajerekani manini ateretse iruhande rwe, uri gukaraba intoki aseka.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu kiganiro kigisha ibijyanye no gufata neza ubuzima, bambaye udupfukamunwa n'udupira tw'impuzankano, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo amazi n'ibitabo.

Mu cyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo abaganga bari mu kazi bambaye imyenda y'akazi n'udupfukamunwa, hakabamo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo intebe nyinshi zicaweho n'abaturage, bari gukorerwa ubukangurambaga ku buryo barushaho kwita ku buzima bwabo.

Mu cyumba cy'isuzumiro gisize amarangi y'umweru n'ubururu, hicayemo umuganga n'umubyeyi uteruye umwana we ukiri mutoya, umuganga ari gusuzuma umwana indwara.

Ku ivomero hari umwana w'umunyeshuri uri gufasha undi mwana ukiri muto kuvoma, inyuma yabo hari abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri bavuye kwiga.

Ahantu habereye igikorwa cyo gukingira, hari umuganga uhagaze uri gutera urushinge umubyeyi wicaye, uwo mubyeyi ari gushinyiriza kubera ko urushinge rumubabaza.

Ababyeyi b'igitsina gore bari kubyina bishimye cyane, bari mu nzu mberabyombi irimo intebe nyinshi, ikabamo n'ameza ku bikuta byayo hatatseho imitako myinshi itandukanye.

Abagore batatu bagiye kwivomera gukaraba intoki no kuvoma mu buryo bwo kwimakaza isuku kugira ngo birinde indwara ziterwa n'umwanda.

Umukobwa usutamye uri imbere y'ivomero ari kuvomera mu ijerekani iteretse mu ibase, inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda, iruhande rwe hari inzu yubakishijwe amabati.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye bazengurutse ameza bari kuganira, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi, za mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Ivomero riri hafi y'inzu z'abaturage ryegereye ibiti byinshi, ririho abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, baje kuvoma bari gukaraba n'intoki.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu gikorwa cyo kubaka akarima k'igikoni gafasha abaturage mu mirire myiza, bambaye imipira y'impuzankano.

Mu cyumba k'ivuriro harimo ibitanda byinshi n'abarwayi benshi hari umwana mutoya urwaye cyane abaganga bari kumwitaho aryamye ku gitanda na nyina yicaye iruhande rwe.

Ikigo cy'amashuri abanza kinini, kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri, bari aho bakarabira intoki bari gukaraba intoki mu buryo bwo kugira,..

Mu nyubako y'ikigo cy'amashuri abanza harimo umwana mutoya wambaye impuzankano z'ishuri uri guseka, ari imbere y'urukarabiro ari gukaraba intoki.

Abanyeshuri abahungu n'abakobwa bambaye impuzankano z'ishuri bicaye mu ishuri bari gufata amafunguro inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara cyandikishijweho ingwa isa umweru.

Umuforomokazi ari kumwe n'umuturage ari kumupima agakoko gatera SIDA, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo agira inama abantu ku bijyanye na SIDA, umuforomokazi afite ikayi mu ntoki n'ikaramu ari kwandika, yambaye agapfukamunwa afite telefone mu ntoki.

Abana benshi bateraniye ku ivomero baje kuvoma, bateretse amajerekani menshi imbere y'ivomero bategereje kuvoma.

Umubyeyi uhetse umwana bagiye ku iri kuvoma arunamye ari koza umufuniko w'indobo, ari kuwogereza mu ndobo, imbere ye hari izindi ndobo ebyiri, hakaba n'itiyo, iruhande rwe hari ibiti.

Urubyiruko rwateranye harimo abasore n'abakobwa bari imbere y'inyubako, bamwe bicaye ku rubaraza abandi bahagaze inyuma yabo, inyuma yabo hari icyapa, imbere yabo hari ubusitani.

Imbaga y'abantu nyamwinshi b'ingeri zitandukanye harimo abagore n'abagabo, bagannye ivuriro baje kwipimisha indwara zitandukanye, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi baje ku ivomero, bategereje ko bagerwaho bakavoma, bafite amajerekani menshi ateretse imbere y'ivomero.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, imbere yayo hahagaze abantu benshi, harimo abaganga bambaye amataburiya bari kwakira umushyitsi mukuru wabasuye.

Umwana ukiri mutoya wambaye imyenda idoze mu bitenge ari gukaraba intoki mu buryo bwo kwirinda indwara ziterwa n'umwanda inyuma ye hari inzu ifite uruzitiro.

Ku mugezi wa nayikondo hateranye abaturage benshi baje kuvoma, umwe ari gupompa umwana afashe ijerekani ari kuvoma, abandi bategereje ku ruhande inyuma yabo hari umurima w'urutoki.

Mu cyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi harimo, abaganga batatu, babiri bari kwandika mu gitabo, undi umwe aricaye ari kubareba, iruhande rwabo hari utubati turimo ibipapuro byinshi.

Abantu benshi abagore, n'abagabo abirabura n'abazungu, bari mu nzu mberabyombi bitabiriye ibiganiro bijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, barahagaze bari gukoma amashyi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, bari gukora ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bafite icyapa imbere yabo kiriho amagambo ashishikariza abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe.

Umusore wirabura, amaso ye aratukuye afite agahinda kenshi cyane ari kurira, amarira aratemba kumatama ye.

Umubyeyi w'umugore uvuye mu murima guhinga afashe isuka mu ntoki yikoreye igitebo, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amategura.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu buryo bwo kwita ku buzima bwo mu mutwe, bari mu mahema, harimo abaganga bari kuganiriza abaturage.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa, bari kumwe n'umuturage w'umugore na we wambaye agapfukamunwa, ufite ikibazo cy'ihungabana, bari kumuganiriza.

Abantu bateraniye mu nzu mberabyombi, bari mu kiganiro kijyanye no kwita ku buzima bwo mu mutwe, bicaye batuje, imbere yabo hari umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Umubyeyi ufite abana batatu, ateruye umwe hari umwicaye iruhande, undi amwicaye inyuma, bicaye ku mukeka, imbere yabo hateretse inkoko, iriho ibigori byumye, iteretseho agasahani gatukura.

Inyubako nini cyane, ikorerwamo ibikorwa byo kwita ku barwayi bo mu mutwe, imbere yayo hari umugabo uhagaze mu busitani burimo indabyo n'ibiti.

Umubyeyi w'umugore ukenyeye igitenge wicaye ku gasongabugari, ufite agahinda kenshi uzenga amarira mu maso, imbere ye harambuye umukeka.

Umugabo ufite ubumuga bwo mu mutwe wikwirakwijeho imyanda, inyuma ye harunze imyanda myinshi iri imbere y'ibimoteri bibiri.

Umubyeyi w'umugore uhetse umwana, utetse igikoma, iruhande rwe hahagaze umwana ukiri mutoya, imbere ye hari imbabura iteretseho isafuriya irimo igikoma.

Umusore wirabura mwiza cyane uri mu bwogero busize amarangi y'umweru, ufite akadodo mu ntoki ko gukoresha amasuka ku menyo ari kumwenyura yitegura gukorera amasuku amenyo ye.

Abana batoya bambaye impuzankano z'ishuri, bahagaze hamwe, bafite ibikombe mu ntoki bari koza amenyo, mu buryo bwo kugirira isuku amenyo yabo.

Mu cyumba cy'inyubako y'ubuvuzi hari abaganga babiri, umwe afashe ikibumbano cy'amenyo n'ishinya, ari kwereka undi uko bavura amenyo.

Igishushanyo cy'amenyo kigaragaza uko amenyo ameze, cyafashwe n'icyuma gikoresha imirasire cyifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Icyumba cyo mu nyubako y'ubuvuzi gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, harimo umuganga uri kwita ku murwayi ufite uburwayi bw'amenyo, uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Mu cyumba cy'inyubako y'ubuvuzi, kivura amenyo, harimo umuganga n'umuforomokazi n'umurwayi uryamye ku gitanda, bari gukorera ubuvuzi bw'amenyo.

Icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, bikoreshwa n'amashanyarazi byifashishwa mu kuvura, harimo n'intebe umuganga yicaraho.

Inyubako y'ubuvuzi irimo icyumba cy'ubuvuzi bw'amenyo kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, kirimo umuganga uri kuvura umurwayi w'amenyo.

Inyubako nini nziza cyane isize irangi ry'umweru irimo umukobwa ufite uburoso mu ntoki ari koza amenyo kugira akore isuku y'amenyo afite imisatsi miremire yambaye isengeri y'umweru imbere ye hari ibikoresho bitandukanye by'isuku.

Icyumba cy'ubwogero gisize amarangi y'umweru kirimo umukobwa ufite uburoso bw'amenyo bwo koza amenyo yireba mu kirori yambaye agasengeri k'umweru, afite imisatsi migufi ari guseka.

Umwana mutoya uryamye ku gitanda cyo mu ivuriro, uri mu cyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, witeguye kuvurwa ufite ibibazo by'amenyo, hari umuganga uhagaze inyuma ye ufite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Icyumba cy'ibitaro kinini cyane, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, kirimo umurwayi uryamye ku gatanda k'abarwayi, hakabamo umuganga n'umuforomokazi, umurwayi bari kumuvura amenyo.

Icyumba kinini cyane cyabereyemo amahugurwa ajyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, kirimo abantu benshi batandukanye abagore n'abagabo ndetse hakabamo abirabura ndetse n'abazungu, bamwe barahagaze abandi baricaye.

Mu cyumba cy'inyubako y'ubuvuzi kivura amenyo, harimo umuganga uri gupima umwana uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Icyumba cy'ishuri kirimo intebe zicayemo abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano z'ishuri, bafite mu maboko yabo uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, kirimo umuganga ufite ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo uri kuvura mwana mutoya uryamye ku gitanda cy'abarwayi.

Umuforomokazi uri kwita ku musaza uri mu za bukuru mu ruganiriro iruhande rwabo hari akabati gakoze mu mbaho karimo imitako itandukanye inyuma yabo hari ibikoresho bitandukanye byo mu nzu.

Umuganga wambaye impuzankano z'akazi n'agapfukamunwa, uri gufata ibipimo by'umukecuru kugira ngo arebe niba ubuzima bwe buhagaze neza, yicaye hanze y'inyubako ikorerwamo ubuvuzi.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, irimo abantu babiri harimo umuforomokazi uri kwita ku musaza.

Umuforomokazi w'umugore wambaye imyenda y'akazi, ari kumwe n'umukecuru uri mu za bukuru urwaye. Ari kumuha imiti imufasha kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi bateraniye hamwe, harimo abagore n'abagabo, bafite ibikoresho bitandukanye, bifasha abageze mu zabukuru. Iruhande rwabo hari ihema.

Icyumba kigari cy'uburiro, kirimo intebe n'ameza cyicawemo n'abantu bari mu zabukuru, bari gufata amafunguro yabo, bari kwitabwaho n'umuganga.

Umusaza uteruye umwuzukuru we, ari kumukinisha yishimye cyane, umwuzukuru we afite igipupe mu ntoki, bicaye mu ntebe zo mu ruganiriro mu nzu ngari isize amarange y'umweru.

Abantu benshi bari gukorera imyitozo ngororamubiri mu muhanda wa kaburimbo ukikijwe n'indabyo, imbere hari abakecuru babiri inyuma yabo hari abandi bantu bakiri batoya harimo umugore umwe n'abagabo babiri.

Umukecuru uri mu za bukuru, ufite imvi, uhagaze imbere y'abantu, wambaye amashanana n'urunigi, arikubabwira imbwirwaruhame.

Umukecuru uri gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri gisize amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusaza n'umukecuru bari mu nzu yabo, baricaye bari gufata amafunguro banaganira banezerewe. Imbere yabo ku meza hateretse ibiribwa byinshi bitandukanye n'ibirahuri by'amazi. Inyuma yabo hari utubati turimo ibikoresho bitandukanye ndetse hari n'ameza ateretseho amasafuriya.

Urugo rutuje rurimo umukecuru n'umusaza, umukecuru afite mudasobwa imbere ye, umusaza afite umuti mu ntoki arikuwumwereka, umukecuru yambaye amadarubindi, inyuma yabo hari akabati karimo ibyombo byinshi.

Umubyeyi w'umugore uri kumwe n'umwana ukiri mutoya, bari mu cyumba cy'uruganiriro, mu nyubako nini, bari gukina umukino w'amahirwe, amakarita yabo bayateretse ku meza.

Inzira nyabagendwa ikikijwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti harimo umukobwa ndetse n'umukecuru. Umukobwa ni umuforomokazi ari gufasha umukecuru; afashe igikapu mu ntoki yambaye ikarita y'akazi.

Abagore bihurije hamwe bari mu murima w'icyayi bitwaje ibitebo byo gusaruriramo bari kuganira baseka banasarura icyayi.

Umukecuru n'umusaza bicaye imbere yabo hari ameza ateretseho ibipapuro, imiti, mudasobwa na terefone. Inyuma yabo hari utubati turimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gikoni.

Abasaza n'abakecuru, harimo abirabura n'abazungu, bahuriye hamwe bahagaze mu busitani, bari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza.

Umubyeyi ukuze w'igitsina gore, wicaye mu ntebe yo mu ruganiriro, inyuma ye hahagaze umuforomokazi ushinzwe kumwitaho, bari guseka bishimye cyane.

Mu nyubako y'ubuvuzi mu cyumba cy'isuzumiro harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ubuvuzi, harimo abaganga bari gufata amaraso abarwayi kugirango barebe nimba barwaye.

Icyapa kirimo ibice bibiri uruhande rw'iburyo ruriho Jeannette kagame ari ku ruhimbi, imbere ye hari indangururamajwi ari gugurura abantu ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ku ruhande rw'ibumoso hari amagambo yanditse arimo inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe yavuzwe na madamu Jeannette Kagame.

Abaganga bahagaze hamwe imbere y'inyubako, bambaye imyenda y'umweru ibapfutse hose n'udupfukamunwa, bambaye na ga mu rwego rwo kwirinda indwara zandura.

Ku munsi witiriwe isuku y'abakobwa mu gihe bari mu mihango, hari abantu benshi bateraniye hamwe, bamwe baricaye, abandi bahagaze imbere yabo, bari gutanga ibikoresho by'isuku byifashishwa n'abakobwa mu gihe bari mu mihango.

Inzo mberabyombi nini cyane yabereyemo amahugurwa ajyanye no kwita ku buzima, imbere ku ruhimbi hari abantu bane, abihaye Imana b'igitsina gore batatu n'umugabo umwe, inyuma yabo hari icyapa.

Inyubako nini cyane yabereyemo inama igamije kwigisha abantu ibijyanye n'ubuzima, imbere hahagaze umuyobozi uyoboye inama, imbere ye hari indangururamajwi ndetse na kamera, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu nama.

Urubyiruko rwahurijwe hamwe mu cyumba cy'inyubako, mu mahugurwa, rukaba rwambaye impuzankano, bicaye mu bihande bibiri, imbere yabo hahagaze umuntu uri kubigisha.

Ahantu habereye igikorwa cyo gutanga inkingo za kovide cumi n'icyenda, hari abaganga benshi, umwe aricaye ari gukingira umuturage.

Inzu mberabyombi yateraniyemo abantu abagore n'abagabo bamwe bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, inyuma yabo hari icyapa kiriho amagambo ajyanye n'ubuzima ndetse n'amabendera abiri.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari mu cyumba cy'inyubako bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yabo ku murongo, imbere yabo hari ameza y'ibiziga n'intebe.

Inzo mberabyombi nini cyane yabereyemo inama iganira ku bijyanye n'ubuzima, irimo abantu benshi harimo abagabo n'abagore ,harimo abirabura ndetse n'abazungu, imbere hicaye abayobozi bayoboye inama.

Inyubako nini cyane y'amagorofa atatu, ifite imbuga nini, iparitsemo amamodoka menshi, ihagazemo abagabo batatu bari kuganira.

Inyubako nini irimo icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibyuma byinshi bitandukanye bifasha abantu mu myitozo ngororamubiri isize irangi ry'umweru.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo intebe n'amezaza, ateretseho ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu buvuzi ndetse na za Mudasobwa.

Icyumba kigali cyo mu nyubako y'ubuvuzi gifite amadirishya menshi, kirimo ibitanda byinshi biryamishwaho abarwayi barembye, iruhande rwa buri gitanda hari irido.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ubuvuzi byinshi bitandukanye, harimo utubati two kubikamo imiti, harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi, ingarani ndetse n'ibindi byuma bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Laboratwari irimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu gushyira imiti mu macupa, irimo n'abakozi bambaye udupfukamuwa n'imyenda yabugenewe bashinzwe gushyira imiti mu macupa.

Abantu benshi bafite uduseke mu ntoki, bambaye amashati y'umweru, bamwe bambaye amapantaro y'umukara, abandi bambaye amapantaro y'amakoboyi y'ubururu, bari kugana inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi butandukanye.

Mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi isizemo amarange menshi atandukanye, irimo intebe n'ameza n'ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo imitako itandukanye, kirimo intebe z'amapine n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Mu cyumba cy'ishuri harimo abaganga baje kwigisha abanyeshuri ibijyanye no gukora isuku y'amenyo, imbere y'abanyeshuri hahagaze umuganga ufite ikibumbano cy'amenyo n'ishinya, ari kwereka umunyeshuri uburyo bakora isuku y'amenyo.

Icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi kirimo intebe nyinshi, kirimo ameza n'igishushanyo cy'akanyamasyo, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Inyubako nini cyane, irimo abantu babiri, umukobwa ukiri muto ndetse n'umusaza, umukobwa ni umuforomokazi, ari gupima umuvuduko uwo umusaza ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Ubusitani bufite ibyatsi bitoshye bushinzemo amatara maremare buteyemo ibiti n'indabyo, hirya yabwo hari inyubako ikorerwamo ubuvuzi.

Icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi kinini cyane kirimo abarwayi bicaye ku ntebe bategereje muganga ngo aze abafashe imbere yabo hari umuforomo uri kubafasha.

Inzu nini y'amagorofa ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hari abantu benshi bahateraniye, hari imodoka ebyiri n'uruzitiro ifite ubusitani burimo indabyo.

Iyubako ikorerwamo ubuvuzi yaganwe n'abantu benshi bari imbere yayo bategereje serivisi z'ubuvuzi, harimo ingeri zitandukanye abana n'abakuru harimo n'ababyeyi bahehita abana.

Inyubako nini cyane y'amagorofa ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo haparitse amamodoka n'amamoto, ifite ubusitani buteyemo ibiti hari icyapa kiranga iyo nyubako ndetse hakabamo n'idarapo.

Inyubako y'ubuvuzi ifite umwihariko mu kuvura indwara z'abana, irimo imiti myinshi itandukanye n'ibikoresho bitandukanye birimo intebe, ameza n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nini ndetse ndende cyane y'amagorofa, ikorerwamo ubuvuzi, ifite uruzitiro imbere yayo hari ibiti byinshi bitandukanye.

icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi gisize amarangi y'umweru kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga rigezweho byifashishwa mu buvuzi

Inzu nini cyane ikorerwamo ubuvuzi, imiryango yayo irafunguye iruhande hari ibigega bibiri binini by'amazi, ifite ubusitani burimo indabyo.

Inzu y'ubucuruzi bw'imiti ya gakondo, ifite imiryango iriho ibyapa byamamaza imiti, imbere yayo hari ingazi, abantu banyuraho binjira mu iduka.

Umugabo waganye inyubako ikorerwamo ubuvuzi wicaye munsi y'igiti mu busitani burimo indabyo, inyuma ye hari inyubako ikorerwamo ubuvuzi.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda kiryamishwaho abarwayi n'icyuma cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu benshi basuye ibitaro, bahagaze imbere y'inzu y'ababyeyi, harimo bamwe basutamye imbere, abandi bahagaze inyuma yabo, harimo abihayimana, hakabamo abasirikare, hakabamo abaforomokazi, n'abaganga n'abandi bantu batandukanye.

Inyubako y'ikigonderabuzima y'amagorofa abiri isakajwe amabati imbuga yayo irimo ibiti, hanze hari abantu benshi bategereje kwakirwa.

Inzu nini y'ubucuruzi bw'imiti y'amaso, ifite imiryango y'ibirahuri, irimo utubati twinshi turimo imiti itandukanye y'amaso, harimo kandi ameza n'intebe.

Icyumba cyo mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibitanda byinshi biryamishwaho abarwayi, kirimo n'ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga batatu n'umurwayi uryamye ku gitanda, uri gukorerwa ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoresha imirasire.

Inyubako nini cyane y'amagorofa ikorerwamo ubuvuzi, imbere yayo hahagaze abantu babiri ifite uruzitiro, iruhande rwayo hari ikigega cy'amazi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'ababyeyi isize amarangi y'umweru isakajwe amabati y'ubururu ifite ubusitani buteyemo indabyo ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bahagaze mu busitani harimo abirabura n'abazungu bahuriye hamwe bari gufata ifoto, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'inyubako ikorerwamo ubuvuzi.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo icyuma cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, hakabamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi n'igitanda kiryamishwaho abarwayi.

Abantu benshi cyane, bagannye inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kugirango babone serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, imbere y'inyubako haparitse imodoka.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubuvuzi isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari umwana urwaye wicaye mu kagare, ifite ubusitani burimo indabyo nyinshi zitandukanye.

Umusore wambaye agapfukamunwa uryamye ku gitanda cy'abarwayi, uri gutanga amaraso, iruhande rwe hagaze umuganga wambaye itaburiya uri kumufata amaraso.

Mu cyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, hari umutako uri ku gikuta, harimo igitanda, akabati n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi kirimo igishushanyo kinini cyane, kirimo igitanda n'intebe n'ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Amarembo magari anyurwamo abantu binjira bagana ibitaro, afite icyapa hejuru kigaragaza izina ry'ibitaro. Hari amazu menshi cyane akorerwamo ubuvuzi afite ubusitani bwiza cyane birimo ibiti byinshi bitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, kirimo ameza, n'intebe n'igitanda kiryamishwaho abarwayi.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti harimo utubati twinshi turimo imiti myinshi cyane itandukanye hejuru y'akabati hatereretse mudasobwa imbere y'utwo tubati hateretse intebe y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ameza, harimo intebe, harimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, harimo ameza y'amapine, yifashishwa mu kujyana imiti, bayikura hamwe bayijyana ahandi.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, uri kumwe n'abakecuru babiri, uri kubapima umuvuduko w'amaraso, bicaye ku dutebe tw'imbaho hanze y'inyubako.

Inyubako z'amagorofa zikorerwa mu buvuzi zifite uruzitiro, inyuma y'uruzitiro hari imbangukiragutabara n'imodoka z'abantu bagana izo nyubako z'ubuvuzi.

Inyubako nini cyane ikorerwamo ubuvuzi bwinshi butandukanye, imbere yayo hari ubusitani buteyemo ibiti n'indabyo hari icyapa kirangira abantu aho bajya kwivuriza.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ibyifashishwa mu buvuzi, ibyifashishwa mu masuku n'ibindi, harimo igitanda kiryamishwaho abarwayi n'umuganga wicaye ku ntebe.

Icyumba kinini cyane cyo mu bitaro kirimo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi, harimo abaganga benshi bambaye imyenda y'akazi, harimo intebe ndetse n'ameza n'ibikoresho byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako nini y'amagorofa ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, ifite ibyumba byinshi bitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka, hejuru yayo hamanitse icyapa cyamamaza.

Icyumba cyo kwa muganga gisize amarangi y'umweru, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ameza, intebe, mudasobwa, ibikoresho byifashishwa mu buvuzi n'umugabo uhagaze wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba kigari cyane cyo mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda byinshi biryamishwaho abarwayi barembye, iruhande rwa buri gitanda hari irido rirerire.

Icyumba cy'ibitaro kirimo igitanda gishashe, habamo ubwogero n'umusarani, hakabamo aho bogera intoki, n'icyuma cyumisha intoki, hakabamo n'ingarane.

Mu cyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, hari umurwayi urembye uryamye mu gitanda cy'abarwayi wiyoroshe.

Abantu benshi barimo abirabura n'abazungu, bambaye amakarita yabo y'akazi mu ijosi bahagaze imbere yinyubako ikorerwamo ubuvuzi.

Inyubako y'ubuvuzi isize amarangi y'umweru irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibyifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi ndetse hakabamo n'utubati tubikwamo imiti.

Icyumba cy'inyubako ikorerwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo ibitanda biryamishwaho abarwayi n'intebe.

Mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi, mu cyumba cy'isuzumiro, harimo umurwayi uryamye ku gitanda, ugiye gucishwa mu cyuma gikoresha imirasire, hari umuganga uhagaze iruhande rwe, uri gukoresha icyo cyuma kugira abashe kumupima.

Icyumba kigari gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibyuma byinshi bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri kirimo n'abantu babiri.

Inzu yubakishijwe imbaho irimo isahani iri mu ishusho y'umutima iriho ibyo kurya bitandukanye, iruhande rwayo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'inkweto.

Umusore w'umuzungu wambaye imyenda yo gukorana imyitozo ngororamubiri wicaye, ku ntebe bari gushyiriraho ibipfuko ku maboko kubera ko yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri gushyiriraho umukobwa igipfuko ku kaguru, uwo mukobwa yavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yicaye ku gitanda, iruhande rwe hateretse umukasi n'igipfuko.

Inzu nini cyane iriho igikuta gisize irangi ry'umweru harimo umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri apfukamye ku itapi y'ibara ry'umukara yambaye isengeri n'ikabutura y'umukara.

Umugabo uteruye icyuma cy'imyitozo ngororamubiri ukikijwe n'ibyo kurya bitandukanye, harimo ibikomoka ku matungo nk'inkoko n'amagi, hakabamo ibyo kunywa, nk'umutobe, ikawa ndetse n'amazi hakaba harimo imboga, nk'amashu puwavuro, karoti n'ibindi.

Umukobwa ukiri mutoya wirabura, yicaye mu busitani bwitaruye, bufite ibyatsi bitoshye, ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwe bube bwiza.

Icyumba cyo kuraramo gisize irangi ry'umweru kirimo igitanda gishashe neza, cyicayeho umukobwa uri kwinanura wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro yumukara.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bari mu nzu mberabyombi, bahujwe n'igikorwa cyo kwigisha uburyo bwo gukora ubutabazi bw'ibanze igihe umuntu avunitse.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa, yicaye mu cyumba cy'isuzumiro, ateruye umwana we bari imbere y'umuganga, muganga ari gusuzuma umwana indwara, iruhande rwabo hari ameza ateretseho ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi ndetse n'iby'ikoranabuhanga.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi gisize amarange y'umweru kirimo icyuma cy'ubuvuzi gikoresha imirasire, harimo akabati kabikwamo ibikoresho by'ubuvuzi.

Ibikoresho birundiye hamwe, birimo ibipfuko, n'indi miti itandukanye yifashishwa igihe umuntu avunitse cyangwa agize ibindi bibazo, ari mu myitozo ngororamubiri.

Indege itagira umupilote, iri kuguruka igana ku bitaro, itwaye amaraso, imbere yayo hari amazu menshi ndetse n'ibiti bikikije umuhanda wa kaburimbo.

Umusore wirabura w'ibigango uri mu myitozo ngororamubiri ari kwinanura ari kureba imbere ye hari amazu menshi n'ibiti byinshi cyane.

Ibikapu bibiri bifite amabara y'umutuku ,umukara n'umweru, ikiri iburyo kirafunze ikiri ibumoso kirafunguye kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye n'imiti.

Igikapu cy'ubutabazi bw'ibanze kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo ibipfuko, imikasi n'indi miti yifashishwa mu gihe umuntu yavunitse, cyangwa yagize ikindi kibazo ari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo mu nyubako ikorerwamo ubuvuzi cy'isuzumiro, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, kirimo utubati tubikwamo imiti, intebe ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho ari gusuzumwa.

Umukobwa wicaye mu ntebe zo mu ruganiriro wavunitse ari gukora imyitozo ngororamubiri, yahinnye akaguru ari gushyira barafu aho yavunitse kugira ngo abashe gukira.

Umugabo wirabura wambaye umupira wumukara uvuye mu myitozo ngororamubiri, ari kubira ibyuya. Inyuma ye hari ibyatsi, afite icupa ry'amazi ku munwa ari kuyanywa kugira ngo abashe kumufasha.

Icyumba kinini gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byinshi byifashishwa mu myitozo, harimo abagabo babiri, umwe ari gukora imyitozo ngororamubiri, undi afite isaha mu ntoki ari kumubarira iminota.

Umusore wirabura w'ibigango wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, wicaye mu byatsi bitoshye ari gukanda itako rye kuko rimubabaza, yarari mu myitozo ngororamubiri.

Icyumba k'inzu y'ubucuruzi bw'imiti ya gakondo, irimo imiti myinshi itandukanye, irimo ibitabo byandikwamo iyo miti, hakamo agasekuru gatoya bifashisha basekura imiti.

Isahani ikozwe mu ibumba iteretseho imiti itandukanye y'ibyatsi n'icupa ririmo umuti w'amazi, iteretseho kandi agasekuru gatoya n'umuhini byifashishwa mu gusekura imiti.

Icyapa kiriho amacupa atatu hari iy'umweru nirindi ry'umuhondo harimo imiti ya gakondo ,inyuma yayo hari igikakarubamba gicagaguyemo uduce.

Ameza y'imbaho ateretseho agakombe karimo ubuki n'agasahani kariho igikombe kirimo amazi arimo indimu n'ubuki gacaguriyeho ku ruhande indimu na tangawizi, ku ruhande rw'ako gasahani hakaba hateretse tangawizi n'indimu.

Icyumba cy'inyubako y'ubuvuzi kirimo imiti myinshi itandukanye, kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'akazi uri gutunganya imiti ayishyira hamwe.

Icupa ritoya ririmo umuti wa gakondo, riri mu ibara ry'umweru, ririho icyapa cyometseho, kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu, rishushanyijeho igisiga, ryanditseho amagambo asobanura umuti uko ukora.

Ibikombe bibiri by'ibirahuri biteretse ku meza, birimo amazi arimo imiti y'ibyatsi, ivura inkorora, n'izindi ndwara zitandukanye.

Icupa ripfundikiye, rishyashya, ririmo ifu y'umuravumba uvura indwara nyinshi zitandukanye, ku icupa hometseho icyapa cyamamaza umuti.

Agasekururo gatoya n'umuhini biteretse hasi, byifashishwa mu gusekura imiti ya gakondo, iruhande rwako hanyanyagijwe imiti myinshi itandukanye ya gakondo.

Icupa ry'ikirahure ripfundikiye ririmo umuti riteretse iruhande rw'indimu iciyemo kabiri n'igitunguru biciyemo kabiri.

Ubwiherero buririmo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo umuntu ufite icupa mu ntoki ry'umweru ririho amagambo rishushanyijeho ururabyo, iruhande rwabyo hari icupa ririmo uburoso.

Icupa riri mu ibara ry'umweru, ririmo umuti wifashishwa mu kuvura uruhu, ukozwe mu bikakarubamba, hirya yaryo hateretse igikakarubamba gicagaguyemo uduce.

Icupa ripfundikiye, ririmo umuti uvura uruhu, iruhande hateretse uduce twinshi tw'igikakarubamba, n'ikirahuri kirimo amazi y'igikakarubamba.

Inyubako y'ubucuruzi nini cyane irimo imiti myinshi itandukanye y'ubuvuzi gakondo ipanze mu kabati k'ibiti, harimo umucuruzi wambaye ingofero n'ishati.

Icyumba cy'inyubako kirunzemo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi gakondo, harimo intara, hakabamo inkono, hakabamo ibicuma ndetse n'ibikombe n'amacupa bashyiramo imiti.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ya gakondo harimo akabati kanini cyane gapanzemo imiti myinshi itandukanye harimo iyiri mu macupakabamo iyiri mu bikarito hakabamo n'iyiri mu bikombe.

Amacupa ateretse hamwe arimo imiti ya gakondo itandukanye, ari kumwe n'igikarito kirimo umuti ndetse n'isabune iteretse ku ruhande.

Amacupa atatu. Abiri ari mu ibara ry'umweru, irindi riri mu ibara ry'umuhondo, arimo imiti itandukanye, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, ateretse ku meza.

Ameza ateretseho imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo imiti y'ibyatsi, harimo ibinini, harimo uducupa dutoya turimo imiti y'amazi.